Umuti ukoreshwa uri kwica udukoko. Uyu muti wica udukoko twinshi harimo nk'imperi, ndetse n'utundi dushobora kwangiza ibihingwa byacu.

Abayobozi b'igihugu cyacu bari gukora umuganda bari guhingira imbuto y'ibigori, abayobozi harimo abasirikare ndetse n'abandi babyeyi b'abagore bari gukora umuganda, mu bihingwa bari kubibagarira ngo bikure neza.

Ahantu hariho indobane baroberamo amafi, iyo ndobane bayishyira mu mazi noneho hakaza harimo amafi cyangwa se umutego bategesha amafi kugira ngo basarure umusaruro waturutse mu korora amafi.

Ubutaka buriho ibihingwa byiza bitandukanye, ndikubonamo amateke, imboga rwatsi harimo dodo n'ibindi bintu, harimo ndetse n'igipangu cy'amatafari ahiye.

Igiti cyera imbuto zitwa voka, iyo kizanye uruyange tuba turi kwitegura ko mu minsi iri imbere kiraza kwera voka, bityo tukabona imbuto zo kurya zituma tugira ubuzima bwiza.

Umurima uhinzemo ibirayi. Bino birayi abantu turabihinga, tukabirya bigatuma tugira ubuzima bwiza, tukanabigurisha tukabona amafaranga agiye adufasha gukora imirimo, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Ibirayi ni ibiryo byiza cyane.

Umurima uhinzemo igihingwa cyitwa iteke. Rino teke urarirya ukagira ubuzima bwiza, ugakomera, cyane cayne aha gabaga gafite ibibabi bisa n'icyatsi gabaga ari meza.

Umufuka urimo ibiryo, inkoko zirya. Inkoko iyo ziriye bino biryo zigira ubuzima bwiza, bityo zigatanga umusaruro w'amagi, mu buryo bwihuse ndetse zikabyibuha.

Ibihingwa byitwa ibinyomoro. Ibinyomoro ni ibihingwa byiza kubera ko abantu babiriye bibaha amaraso meza, bityo bigatuma bagira ubuzima bwiza. Iyo wabicuruje ubona n'amafaranga.

Umugabo uri mu bigori, uri kubyicira akarebamo ibyapfuye ndetse n'ibindi bitari byiza akabikuramo, bityo ibisigaye bikera neza, ibiryo by'ibigori bikaboneka tukabirya.

Imbuto barya zitandukanye harimo nk'avoka, imineke ndetse n'inyanya, zifasha abantu bakagira ubuzima bwiza, bakirinda indwara, bagakomera ndetse bakarushaho no kubaho neza.

Abaturage bari gusarura ibihingwa byitwa inyanya izi nyanya ni nziza cyane nkuko biri kugaragara abaturage benshi bari kuzisarura kugira ngo babone ibibatunga.

Umurima uhinzemo amashu .Ibi bihingwa abantu baba bari kubyitaho, bigakura neza abantu bakabirya, bakagira ubuzima bwiza .byitwa imboga z'amashu.

Ahantu hahinzwe igiti cyera imyembe, iyi myembe ni imbuto nziza cyane, abantu bakunda kurya igatuma bagira ubuzima buzira umuze.

Afashe ibigori ndetse byiza cyane yejeje mu gihe cy'ihinga rye. Bino bigori ni byiza kubera ko ni birebire uyu mugabo afashe.

Urubuto rwitwa voka abantu bararurya, iyo ururiye ugira ubuzima bwiza bigatuma ukomera kandi ugakura neza, ifasha ndetse no mu myanya y'igogora.

Ibihingwa byitwa imiteja. Bino bihingwa abantu barabihinga noneho bakabisarura bakabirya, bimeze nk'imiteja. Ni byiza kuko havamo imboga nziza abantu barya bakumva banezerewe, bakagira n'amagara meza.

Aha hantu hariho amateke abantu barya ,bino bihingwa ni byiza ku buzima bw'umuntu yaba umukuru ndetse n'umutoya ,kubera bituma agira ubuzima bwiza.

Ubutaka bukoreshwaga bari gutera ndetse bari no kurera ibihingwa bitandukanye, mbese iyo hano hantu bahahinze ibihingwa bituma haboneka imbuto abandi bantu bazahinga mu gihe kizaza.

Ubwanikiro babikamo ibigori, buno bwanikiro bwubakwa n'amakoperative kugira ngo umusaruro bakomeze bawiteho w'ibigori bawushyiramo wamara kuma bakabona kuwutunganya bakawujyana ku isoko.

Agatete karimo ibintu by'imbuto byitwa imyembe. Ino myembe ni myiza ku buzima bw'abantu, ihingwa mu Rwanda ndetse n'ahandi hantu hatandukanye. Iyo wayiriye wumva umerewe neza, ikarwanya indwara mu mubiri wawe.

Umurima uhinzemo ibihingwa by'imyumbati, umumama ari kubisarura, bityo aje kubiteka cyangwa se abijyane ku isoko abantu babigure abone amafaranga.

Amaterasi y'indinganire arimo ubutaka bahingamo, ibihingwa bitandukanye bituma abantu barya, bakabona ibibatunga. Harimo ndetse n'imirwanyasuri, irwanya isuri, harimo n'ibiti byitwa intubura butaka.

Umugabo n'umugore bari gusarura amasaka, cyangwa se bari kurebamo amasaka yapfuye bakayakuramo. Ano masaka ahinze mu murima kandi agaragara nk'amasaka meza abyibushye.

Ubwanikiro bw'ibihingwa by'ibigori ,barabyanika kugira ngo byumye neza, abantu bakabihura noneho bakabijyana ku isoko bakabigurisha bigatuma babona amafaranga ndetse n'ibindi, akabafasha gukemura ibibazo bitandukanye.

Umurima urimo ibihingwa biteye neza ku murongo, iyo uteye ku murongo ibihingwa byitwa ibigori, bituma ubona umusaruro mwinshi kandi uhagije.

Ahantu bakoresha bari kurobanura imbuto y'ubunyobwa, umuntu iyo ari kuburobanura yumva anezerewe kubera ko bweze. Ubunyobwa ni bwiza ku buzima bw'umuntu, imodoka irimo harimo n'umuntu uri kurobanura ubwo bunyobwa ari gukuramo bwapfuye agasigamo ubuzima.

Ibihingwa byitwa amasaka. Bino bihingwa ni byiza kubera ko bituma tubona umusururu. Iyo aya masaka yeze, ndetse bigatuma tubona n'amafaranga adufasha gukora ibintu bigiye bitandukanye.

Umugabo afashe ari gufata ibigori ari kubikura ku ntara akabishyira mu mufuka kugira ngo abibike cyangwa se abihunike neza bitaza kwangirika ndetse akabura n'umusaruro we.

Ibihingwa byitwa amasaka ni ibihingwa bikunze kwera mu majyaruguru ndetse no mu bindi bice bitandukanye by' igihugu cyacu, ano masaka iyo yeze bayakoramo umusururu ndetse n'urwagwa.

Ubutaka burimo igihingwa cyitwa igishyimbo kiri gutangira kumera, kandi iyo kiri gutangira kumera bituma kizamuka neza bityo kikazera n'ibindi bihingwa byinshi.

Ikiraro cyororerwamo ingurube, iyi ngurube ni inyamaswa nziza kubera ko itanga umusaruro mwinshi kandi mu buryo bwihuse. Abantu bari kuzireba baje kuzisura ngo barebe uko zimeze, bakomeze baziteho neza zibahe inyungu.

Inyamaswa yororwa yo mu rugo yitwa ingurube nziza cyane, iri mu kiraro cyayo, abantu babiri baje kuyireba no kuyigaburira no kuyitaho kugira ngo ikomeze itange umusaruro.

Ikiraro bororeramo inyamaswa ndetse n'itungo ryitwa ingurube. Iyo uryitayeho neza riguha umusaruro mu buryo bwihuse ndetse ukabona n'ifumbire ukoresha uri guhinga ibihingwa.

Abana b'inkoko, batoya babita imishwi. Iyo zikuze zitera amagi tukayarya, ziri aho zororerwa, bahita mu kiraro cy'inkoko.

Icyari ni ahantu inyoni zitaha inyoni iyo zishatse kuruhuka nazo nka nijoro ziba zarubatse icyari mu giti, cyangwa se ahandi hantu noneho zikajyamo kugira ngo nazo zugame cyangwa se zibone ubuturo.

Amoko menshi atandukanye y'inyoni. Iyi nyoni ni inyoni nziza isa n'umuhondo, ihagaze ahantu heza hayifasha kuyitegera ndetse no kureba aho iri bugurukire hatandukanye.

Akanyamaswa keza cyane, bita inkende, kano kanyamaswa kaba mu ishyamba, nk'iry'ibirunga, nk'iryo mu Kagera, ndetse n'irya Nyungwe. Gakunze gusimbuka ndetse no kurira ibiti.

Ishyamba ririmo inyamaswa yitwa nzovu, iyi nzovu ni inyamaswa nini cyane igira n'ibiro byinshi, iyi nzovu iba mu mashyamba agiye atandukanye.

Mu ishyamba ryiza habamo inyamaswa yitwa intare, intare ni inyamaswa abenshi dukunze kwita umwami w'ishyamba. Iyi ntare irya inyama gusa, nta bindi biribwa irya ni inyama gusa.

Inyamaswa yitwa intare ebyiri, zino ntare ebyiri ziri kugenda ahantu h'umukenke cyangwa se ahantu haringaniye zikunze kuba, zino nyamaswa ziba mu ishyamba kandi ntizirya ibimera, ahubwo zirya inyama gusa.

Inyoni iri gukora icyari cyo kuzajya iraramo cyangwa se cyo gu gutereramo amagi, inyoni nziza cyane y'amabara y'umuhondo n'andi y'umukara.

Inyoni isa neza iri kujya gushaka utuntu irya muri zino ndabyo. Zino ndabyo nazo ni nziza zisa neza cyane, ni ibihingwa bitanga umwuka mwiza, ndetse n'inyoni zikabona ibyo zirya. Inyoni iri gushaka ibiribwa muri runo rurabo rwiza.